Muri banki harimo umugabo wambaye ishati ya karokaro y'ubururu n'umweru, imbere ye hari umugore waje kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga hagati yabo harimo ikirahure kibatandukanya.

Inzu ndende zigeretse inshuro ebyiri hepfo no haruguru, ku ruhande hari umuntu wicaye ku ntebe yambaye inkweto z'umutuku zifunguye, yicaye ku kantu k'icyuma, inyuma ye hari ururabo, hepfo hari ubusitani burimo ibiti n'ibyatsi.

Inzu nini ifite akabaraza gafite inkingi eshatu, ifite ibirahure ku madirishya no kurugi, amadirishya abiri ndetse n' urugi rumwe, igurishwa yo muri Mayange, ifite amakaro yose meza.

Amazu meza atatu ageretse kabiri akodeshwa, imbere hari ibyatsi, aherereye i Kigali Kibagabaga, arimo ibyumba bitanu, ubwogero butanu, ku kwezi ukaba wakodesha ibihumbi igihumbi, amadorari igihumba na magana arindwi.

Umuhanda wa kaburimbo hagati harimo ibiti, indabo, ibyatsi, imodoka nyinshi inini n'intoya, inzu y'igorofa igereretse inshuro nyinshi ndende, hirya yaho hari indi nzu y'umweru ndende nayo.